Umuntu uvuye ku ivomero yikoreye amazi ajyanye mu rugo gukoresha, ni meza, arafasha mu buzima bwa buri munsi, kuyanywa, kuyatekesha, kuyakoresha indi mirimo, amazi ni meza ku buryo nta muntu utajya ayakenera mu buzima bwe bwa buri munsi.

Ku ivomero hari amazi meza aturuka ahantu heza hasukuye, hari umuntu wagiye kuvoma, umwana ubona ko ari kunywa amazi, yisanzuye kandi anavoma ayo ajyana gukoresha mu rugo.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe, urabona ko ari abagabo, bari kuganira ku bintu bijyanye n'ubuzima, uburwayi ukuntu wakwita ku bantu, biragaragara ko bakora umwuga w'ubuvuzi, kuko nibyo bari kuganiraho ubuvuzi butandukanye indwara zigiye zitandukanye.

Ivomero ry'amazi yunisefu yashyiriyeho abantu kugira ngo bagire ubuzima bwiza. Amazi arafasha mu buzima ubona ko umwana ari kuyanywa yishimye kuko yari ayafitiye inyota.

Abantu benshi bateraniye hamwe mu nama yabahuje mu kintu runaka, bari guhugurwa ku bijyanye n'ubuzima nko kuvura n'ibindi, urabona ko biteguye bafite amakaramu, bari kwandika ibyo bari kwigishwa.

Umuvuzi n'umubyeyi, umuvuzi ari gusobanurira uyu mubyeyi ibijyanye n'imirire y'abana, umwana uba uri mu mutuku n'umwana uba uri mu cyatsi, ubona ko ari kumusobanurira neza kugira ngo amenye uburyo azajya arera umwana we, amugaburira ibiryo byiza kugira ngo atagira ikibazo cy'uburwayi.

Ahantu hari icyanya kinini imbuga nini y'ubusitani irimo abantu benshi batandukanye abakuru, abato, abamama, abapapa, abakecuru, abasaza urabona ko bitabiriye ari benshi ku ivuriro bari bagiye kubaza kuri serivisi y'ubuvuzi cyangwa se gusuzumwa indwara runaka.

Mu nyubako mo imbere ni ivuriro bafasha mu bikorwa byo kuvura uburwayi waba ufite bwose harimo umuvuzi harimo n'umubyeyi wazanye umwana abona ko umwana ariwe ufite ikibazo ni nawwe bari gusuzuma ngo barebe ikibazo afite maze bamuhe imiti ubuvuzi bwiza.

Abantu bari mu biganiro bijyanye n'ubuzima, bigaragara ko bari guhugurwa mu bijyanye no kuvura, bariteguye bafite amakaramu bandika ibyo bigishwa, bambaye n'imipira yerekana ko bari mu bintu bimwe irasa, ubona ko babyitabiriye biteguye.

Abantu benshi bateraniye ahantu hamwe, imbere yabo hari umuntu w'umuganga cyangwa se uvura arikubagira inama zukuntu bakwitwara ku buzima bwabo ibyo bazajya bifashisha kugira bakomeze bagire ubuzima bwiza burinzwe ari kubabwira byinshi bakurikiye bamuteze amatwi.

Abana bari kunywa amazi meza aturutse mu bubiko bwiza asukuye, babyishimiye ubona ko bambaye impuzankano, ari abanyeshuri bafite ubuzima bwiza bari guseka.

Ahantu hari gukorerwa ubuvuzi, hari abavuzi benshi, hari n'abantu baje kubaza. Benshi hano bari gusobanurira umuntu ibijyanye n'ubuvuzi bwabo; uko bafasha abandi. Ubona ko yabyishimiye, afite amatsiko yo kubibaza.

Ahantu habugenewe hari abavuzi babyigiye bari gutera abantu ni nk'urukingo bari gutera abantu, bari kubarinda indwara urabona ko bambaye udupfukamunwa bose ku buryo ntawakwanduza undi.

Abantu b'abayobozi bari kuganira ku bijyanye n'ubuzima ni abo muri South Sudan cyangwa se Sudani y'Amajyepfo, ni abayobozi uko bigaragara bari gusobanura ibijyanye n'ubuzima bwiza bababwira uburyo bababaho neza n'ibikoresho bafata.

Umwana ari kuri kano kuvoma amazi yabyishimiye, amazi iyo uyafite uba ufite ubuzima bwiza bwishima, ugakora buri kintu cyose uko cyabugenewe, ugakomeza ukagubwa neza ufite ubuzima bwiza, kugira ngo uyifashishe.

Amazi meza, aturuka ahantu heza. Abantu bahishimiye haje abana baje kunywa amazi, bose bishimye ku bw'amazi meza bari kunywa. Bose urabona ko bashaka kuyanywaho kubera ukuntu yishimye.

Ikirango cyerekana aho ibintu bijyanye n'ubuzima babivurira, mu ivuriro uburyo bagufasha mu byo uba ukeneye byose mu buvuzi.

Abana bato babanyeshuri babona ko bambaye impuzankano, bagaragara nk'abanyeshuri bari kumwe n'abavuzi n'abandi babyeyi, hafi aho bari kubabwira cyangwa se basuzuma ubuzima bwabo uko buhagaze kugira ngo barebe ko nta kibazo bafite.

Itariki cumi z'ukwacumi, umunsi mpuzamahanga abantu bose bizizaho abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe, niho bawizihiza mu gihugu cyose.

Abantu bicaye hamwe abantu bakuru, abasore n'abamama bahuje ibiganiro bari kuganira ku bijyanye n'uburwayi bwo mu mutwe kugira ngo ubone n'uko washobora kuvura umuntu uburwayi bwo mu mutwe, umuganiriza umwereka ko muri kumwe.

Umuntu mukuru ni igitsina gore, nu umumama yicaye ahantu hamwe abona ko afite ikibazo kijyanye n'ubuzima cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe, yicaye ahantu inyuma ye hari ibikoresho by'ubucuruzwa.

Umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe yishimye yasetse ni umuntu mukuru, urabona ko yishimye cyane afite ibyishimo ari kubyina, yambaye impuzankano z'ahantu ari, imyenda y'ubururu, yishimiye ibi bintu.

Ni mu kigo hari icyanya kinini harimo ubusitani, abantu bari gutera ibiti urabona ko ari abantu benshi babyitabiriye, ni mu kigo cy'abantu bafite ibibazo byo mu mutwe, ubona ko abantu bishimiye ibyo bikorwa barimo mu busitani bwa bo bateramo ibiti byiza byera imbuto n'ibindi.

Abana benshi bari ahantu hamwe, ubona ko bafite ikibazo gihuye ariyo mpamvu bateranyirijwe hamwe, bishimye bari kubwirwa baganirizwa ubona ko ari ikintu bishimiye, baje no guhabwa ubuvuzi.

Ubuvuzi bufasha kubafite ubumuga bwo mu mutwe, buba ubuvuzi bwihuse kandi bufasha vuba, bigafasha umuntu kugira icyo agenda amenya mu bijyanye n'uburwayi.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi bw'amenyo, ahantu umuntu yicara agahita aryama kugira ngo barebe mu kanwa ke amenye ye nimba hari ibibazo afite, nimbara ari ayo gukurwa bakayakura cyangwa se guhoma, mbese bakagufasha mu bijyanye n'ikibazo cy'amenyo.

Inyubako nini; ni ivuriro haracyeye hafite isuku harimo ibikoresho bifashisha mu kuvura, uru ni uruhande ruvurirwamo ibibazo by'amenyo. Hari intebe wicaramo ukamera nk'uryamye hanyuma bagasuzuma mu kanwa amenyeyo ukuntu ameze, niba ari uwo bakura, mbese bakagufasha.

Kureba mu menyo ukuntu ameze bashyiramo ibyuma byabugenewe maze bakakurebera uko amenyo yawe ahagaze nimba ari ibibazo afite, aya ni amenyo y'umuntu runaka baribari gusuzuma ngo barebe ibibazo afite bityo bamugenere umuti wo kumufasha.

Abavuzi, bari kumwe n'umurwayi, afite uburwayi bw'amenyo, urabona ko bari kumusuzuma mu kanwa, bareba ukuntu amenyo ye ameze, kugira ngo babone uko bamufasha. Bafite ibikoresho byabugenewe by'ikoranabuhanga. Hari umuvuzi, hari n'undi uri kumufasha. Urabona ko ari ibintu baba bitayeho cyane.

Uburyo bw'uko wakura umwanda mu menyo, uyu muntu afite akantu k'akagozi ari kugenda anyuza hagati y'amenyo kugirango ngo akuremo twa twanda tuba twasigaye hagati, mu gihe wariye ibiryo se cyangwa wariye ikindi kintu hakagira imyanda isigara mu menyo.

Mu ivuriro bari gukorera umuntu ubuvuzi bw'amenyo bari kumukura iryinyo rifite ikibazo, bambaye ibibarinda kumwanduza ndetse nawe cyangwa yabanduza, ibikoresho by'ubwirinzi yeza kandi byizewe.

Mu kanwa bari kwerekana ukuntu amenyo y'umuntu ameze, niba afite ibibazo, nimba hari ayo yakutse byose biri kugaragara, ubona ko ari mu kanwa k'umuntu.

Abana bari gusukura amenyo yo mu kanwa kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza bafite amenyo asukuye, urabona ko bafite igikoresho cyabugenewe mu koza amenyo, bari kuyasukura kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Mu ivuriro umuganga wambaye ibikoresho byabugenewe wirinze neza, ari kuvura umurwayi ufite ikibazo cy'amenyo, ubona ko ari kumukura nk'iryinyo, yiteguye, bose bambaye impuzankano, bambaye ibikoresho by'ubwirinzi ku buryo ntawakomeretsa undi.

Umuntu uri gufasha umubyeyi mukuru, ni umupapa mbona ko ari mukuru, ari gufashwa mu bijyanye n'umubiri we mu burwayi bwe kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Umuntu ari gusoma ibijyanye n'ibyo akora, yungura ubundi bumenyi, abona ko ari umuntu mukuru ashinzwe gufasha abantu bakuru mu buvuzi butandukanye, kuko urabona ko nawe akuze.

Ikirango cyerekane ahantu bavurira abana, na SIDA aho bisuzumishiriza bakayivura ndetse bakaguha imiti, yo kukugabanyiriza ubukana bwa sida, kugira ngo ukomeze ugire ubuzima bwiza, ni ku ivuriro byose bikorerwa, abaganga runaka ujyayo bakagufasha.

Abantu benshi bari hamwe batandukanye, urabona ko bari gufata ifoto y'urwibutso, bashinzwe ibijyanye n'ubuvuzi cyangwa se kwita ku barwayi, n'ibindi bijyanye n'ubuvuzi, harimo abantu benshi, abamama, abapapa, bose bari hamwe.

Munyubako ikorerwamorerwamo ubuvuzi n'ibitaro harimwo umurwayi uri kwitabwaho n'abaganga babimenyerejwe bambaye ibikoresho byo kwirinda kuburyo ntawakanduza undi hagati y'umuganga n'umurwayi arinako biteguye kumufasha.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi, mu ivuriro haba hari abavura ndetse n'abarwayi, barahagenda bakabaha i serivisi yo kubavura, bitewe n'indwara buri umwe arwaye, uragenda ukababwira ikibazo ufite. Inyubako yubatse neza, iri ahantu heza, hari ubusitani, hari indabo.

Inyubako nini irimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga, mu ivuriro hari umurwayi urimo aryamye ku gitanda ubona ko arembye, bari kumusuzuma bareba uko ubuzima bwe buhagaze ndetse bamuha n'imiti akeneye kugira ngo amererwe neza.

Inyubako nini irimo umwanya munini, harimo ibikoresho bifasha umuntu kugorora ingingo, hari ibyo kwicaraho, hari ibyo kuryamaho, hari ibyo kwiruka bigufasha muri iyo myitozo ngororamubiri.

Inyubako nini yubatse mu buryo bwa kijyambere hariho ibikoresho byiza, ni inyubako ikorerwamo ubuvuzi ku buryo iyo ufite ikibazo kijyanye n'uburwayi ugenda bakagufasha ikibazo icyo ari cyo cyose barakuvura bakaguha ubuvuzi bw'ibanze.

Ahantu hari ivuriro hari ibitanda abarwayi bari kuryamaho bakabasuzuma maze bakamenya uko ubuzima bwabo buhagaze kugira ngo babahe imiti ishobora kubafasha mu gihe barwaye, bitewe n'uburwayi buri wese afite. Hari umuganga aba yambaye impuzankanoze ibikoresho byabugenewe kugira ngo batanduzanya indwara.

Inyubako y'ubuvuzi bafasha buri muntu ufite ikibazo cy'uburwayi, hano hari igikoresho bicaramo bafite uburyo bari gusuzuma giteye nk'intebe ariko ikoranabuhanga ku buryo bagufasha bakagusuzuma indwara urwaye bakaguha ubuvuzi bwibanze.

Inyubako nini isize amabara meza, irimo ibikoresho bikeye bifite isuku, ni ahakorerwa ubuvuzi, urabagana iyo ufite ikibazo bakakuvura, bakagufasha bitewe n'ikibazo ufite cy'uburwayi.

Inyubako nini ikorerwamo ubuvuzi, hari umuntu bari gufasha ararwaye urabona ko bari kumusuzuma, yishimye kuko bari kumuha ubuvuzi neza serivisi nziza, bari kumusuzuma barebe indwara arwaye babashe kumuha imiti yamufasha kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza.

Mu nyubako y'ivuriro harimo abarwayi, bari ku bitanda by'abo, hari umuvuzi cyangwa se umuganga, ari kuganira n'umurwayi we, amuvura, amusuzuma kugira ngo arebe ibibazo afite, ndetse amuhe n'imiti yamufasha muri ubwo burwayi bwe.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi. Mu ivuriro hari umwana urwaye. Barabona ko afite ibyishimo. Ari kuvurwa n'umuganga mwiza amwitaho. Murabona ko hirya hari n'umubyeyi we. Umwana bari kumushimisha kugira ngo avurwe yishimye atababara

Icyanya kinini hari inyubako ikorerwamowo ubuvuzi ni ivuriro, hirya yaho hari ubusitani bunini bwiza buteyemo imikindo, ibiti byiza, harimo ibyatsi byiza, indabo ubona ko hagaragara neza kuri iryo vuriro ku buryo n'umuntu ujya kuhivuriza ajyayo ahabona isuku.

Inyubako nini yabugenewe icurizwamo imiti y'ubwoko bwinshi aho umuntu agira akabazo koroheje agahita anyarukirayo maze akagura uwo muti ashaka wamufasha.

Inyubako nini, irimo ibikoresho byabugenewe ikorerwamo ubuvuzi, aho umurwayi abagana arembye maze bakamufasha uko bashoboye bamuvura bitewe n'indwara afite, harimo ibikoresho byiza by'ikoranabuhanga bibafasha mu kuvura vuba kandi byihuse.

Inyubako nini arimo ibikoresho byinshi byabugenewe kandi by'ikoranabuhanga mu buvuzi, aho ubinyuramo bakagusuzuma neza umubiri wawe, maze bakakubwira uburyo wayivura, bakayikuvura neza mu buryo bwiza.

Inyubako ikorerwamo ubuvuzi harimo ibitanda by'abarwayi n'imashini zabugenewe zo kubapima bakareba uko ubuzima bwabo buhagaze, harimo ibikoresho bikenerwa by'ingenzi bibafasha mu gupima umurwayi wabo, ubona ko iki cyumba giteguye neza.

Inyubako iri mu cyanya kinini, ni inzu y'ababyeyi cyangwa se aho ababyeyi babyarira, isize amabara y'umweru, hari isuku, hari ibikoresho byabugenewe, hari ubusitani, urabona ko hafite isuku ni ahantu hagaragara neza.

Inyubako ibyerekeranye rimwe nziza, ni ikigo nderabuzima baravura bafasha abaturage urabona ko ari heza hakorewe isuku batanga serivisi nziza, wivuza ku mafaranga make ukoresheje ubwishingizi bwawe mu kwivuza, ubona ko haba hari abantu benshi baje gusaba serivisi.

Abaganga bicaye ahantu hamwe bari kumwe n'umuganga mukuru ari kubaganiriza ibijyanye n'uburwayi bwo mu mubiri, uburyo bwo gukora imyitozo ngororamubiri, ibyiza byabyo ubona ko bari kwandika bakurikiye n'ibyo babwirwa.

Inyubako nini irimo ibikoresho bigufasha mu bugorora ngingo, aho icyi gikoresho ucyijyaho maze bakagufasha mu kibazo waba ufite cyo kugorora umubiri, maze ugataha wumva umeze neza nta kibazo usigaranye mu mubiri.

Inyubako nini irimo ibikoresho byifashishwa mu myitozo ngorora mubiri ibyo wicaraho, ibyo kwirukaho, ibyo kuryamaho, ugaterura ibintu bikunanurira amaboko, ubona ko hari amasuku hameze neza ku buryo buri muntu yahakorera.

Umuti ugufasha mu bijyanye n'imyitozo ngororamubiri, aho uwunywa ukagufasha mu bibazo waba waragize birimo imitsi se, mu magufa ugufasha mu buryo bwihuse kandi urizewe.

Abantu bo muryango Kuruwa ruje ni benshi bambaye ibibaranga bari gufasha umuntu wagize ikibazo gisaba ko akorerwa ubuvuzi bwihuse bari kumukoresha imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe koroherwa bityo agezwe ku bitaro.

Ikirango cyerekana ahantu hakorerwa imyitozo ngororamubiri, bakunze kwita siporo murimi rw'amahanga, baba bafite ibikoresho byiza, byabugenewe by'ikoranabuhanga ku buryo ugenda ugakora, ukambura ibice by'umubiri wawe byose uko ubyifuza.

Ibiryo byagufasha mu gihe uri gushaka kugira umubiri mwiza cyangwa se ubuzima bwiza, hano hari bimwe muri pome, avoka, n'ibindi byiza kandi byagufasha kugira ukomeze ugire umubiri umeze neza.

Umuntu uri guhabwa ubuvuzi mu kaboko urabona ko igufwa ryagize ikibazo, n’imyitozo ngororamubiri nawo uba ukenewe kugira amagufa amere neza mu mubiri, amenye ko yishyizeho akantu kari kumufasha mu burwayi.

Imyitozo ngororamubiri ni mu buvuzi nabwo bw'umubiri bigufasha kumva umeze neza ugakomeza ufite ubuzima bwiza umubiri wawe ugororotse, ni byiza kuwukora umuntu ari gukora azamura akaguru amaboko ayamanuye, bimufasha kugorora umugongo ndetse n'amaboko n'amaguru.

Inyubako yabugenewe yo kurambura umubiri w'abantu ibyo bakunze kwita masage mu rurimi rw'amahanga, ni ukuntu umasa umuntu ibice bye by'umubiri maze akumva araruhutse, ararambutse imitsi, amagufwa, biraruhura bifasha no mu mitekerereze neza.

Imyitozo ngororamubiri, biri mu bintu bifasha ubuzima bw'umuntu, uyu nguyu ari kugorora imbavu, agorora amagufa, agorora imitsi y'umubiri, birafasha kuko bituma umuntu yumva ameze neza, biroroshye wabikorera mu rugo ahantu hose.

Ikirango cyerekana ukuntu mu gukora imyitozo ngororamubiri bifasha umuntu, ndetse hari n'ingamba zari zo kwirinda corona virus ari ugukaraba intoki, ari ukwirinda gusuhuzanya mu ntoki, ari gukoresha amazi meza mu byo ukora, urabona ko ari ibintu byinshi.

Umuntu wari mu myitozo ngororamubiri, iyo uri kuyikora ni ngombwa ko unywa amazi nayo aragufasha, amaraso agatembera neza mu mubiri, mu bintu byinshi ukora ugomba kwifashisha amazi, ukayanywa, ukayakoresha ibindi kugira ngo ukomeze umere neza mu mubiri.

Imiti wakoresha mu gihe wakoze imyitozo ngororamubiri igabanya uburibwe cyangwa se igufasha mu bindi mu gihe wakoze imyitozo ngororamubiri cyangwa se mu gihe uri kuyikora.

Amazi ari guswa mu kirahure, amazi ubuzima, amazi arafasha, buri muntu abayakeneye kugira ngo abeho neza, kuyanywa, kuyakoresha isuku, ndetse n'ibindi byinshi. Mu bijyanye n'ubugorororamubiri aragufasha ku buryo ushobora kurinda indwara.

Imyitozo ngororamubiri, umuntu ari gukora imyitozo agorora amaboko ye ndetse n'ibindi bice by'umubiri we kugira ngo atazagira ikindi kibazo, iyi myitozo aba ari ngombwa mu buzima kuko na yo ni ubuvuzi, kuko igorora amagufa, imitsi yawe ikareka guhinamirana bityo ukabaho neza.

Umuti uri mu gikoresho cyabugenewe cyawo, haba handitseho inyuma icyo uvura n'icyo ufasha, hano umuntu ukora imyitozo ngororamubiri uramufasha uyu muti, umufasha gukomeza gukora imyitozo ye neza mu mubiri, akamererwa neza.

Abantu bavura bakoresheje imiti ya Kinyarwanda. Iyi ni imiti iba iva ku bihingwa mu bimera ku buryo bayifata bakayikoramo imiti myiza ivura abantu ku buryo bwihuse, ku buryo umuntu uyivurishije ihita imukiza byihuse bitarindiriye.

Ni urutonde rw'ibimera yifashishwa mu miti ya gakondo yabugenewe ku buryo bayikora isukuye bagafasha abantu bose bitewe n'uburwayi buri wese afite akayivurisha ikamufasha.

Ibimera urabona ko bifite amababi atoshye byifashishwa mu gukora umuti, ibi ni ibyatsi, uwo muti bigufasha gukora ugufasha neza kandi byihuse bitewe n'indwara urwaye ndetse na wo indwara ivura.

Imiti ifasha kuvura abantu mu buryo bwiza, ni imiti ikozwe mu bimera, aho uyikoresha ikakuvura neza kandi byihuse.

Imiti iri mu dupapuro twayo cyangwa se udukombe twayo twabugenewe, ni iya gakondo ifasha mu buvuzi butandukanye, iravura byihuse kandi neza, byemewe, ku buryo buri muntu bimufasha.

Umuti wo mu bwoko bw'ibimera, ni icyatsi cyabugenewe, kivura, hano cyashyizwe mu kirahure, kugira ngo umuti ube wuzuye, maze unywebwe, ugukize bitewe n'indwara uvura.

Umuti w'ibyatsi, umuravumba, uvura indwara zitandukanye harimo nk'inkorora n'izindi nyinshi, iyo ukoresheje neza ugufasha byihuse kandi vuba.

Ibimera byo mu bwoko bw'ibyatsi, ushobora gukoramo umuti, umuti bivamo ukiza byihuse kandi vuba, ku buryo ufasha buri muntu wese, bitewe n'uburwayi ufite kandi ukakuvura.

Imiti y'ibyatsi ni ibimera, bayicisha mu nganda bakayikoramo imiti ikiza. Ifite indwara buri wose uvura bakayishyira mu bikoresho byiza igafasha abantu.

Ubuvuzi bwiza, umuti ufasha ku muryango, uvura kurangiza vuba no gucika intege, ufasha abantu bakuru mu gihe bari mu gikorwa maze bikabafasha gukomeza kuryoherwa n'igikorwa barimo.

Imiti yo mu bihingwa ni imiti ya gakondo iri mu bikoresho byabugenewe kubikwamo imiti irafasha, iravura ku muntu urwaye bitewe n'indwara ivura.

Imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, Urabona ko baba bayikoze bakayishyira ahantu hizewe kugira ngo nibayikenera bayikoreshe ifite isuku kandi iteguye ko yakoreshwa.

Imiti yo mu bwoko bw'ibimera cyangwa se ibikomoka ku matungo, iba ihari ngo igufashe mu gihe ufite uburwayi bwananiwe kuvurwa n'imiti ya kizungu, aha bigufasha bitewe n'uburwayi ufite, igufasha mu buryo bwihuse.

Imiti ikoze mu bimera ifunze neza mu bikoresho byabugenewe, ku buryo iba yizewe ku buryo uyivurisha imukiza, kuko ibigaragara nk'ifite isuku yakorewe ahantu hizewe.

Akagera medisine gatanga ubuvuzi bw'imiti yo mu bimera, imiti bagenda bagakora maze bakayiha umuntu ikamufasha byihutirwa, agufasha neza bitewe n'indwara urwaye.

Ibimera byifashishwa mu kuvura ni imiti ifasha byihuse kandi byoroshye, aho umuntu wese yayivurisha mu gihe arwaye indwara iyo miti ivura, aba ari ibyatsi biramera hanyuma urwaye indwara bivura ukayivurisha.